Imbere y'inyubako zikorerwamo ubucuruzi, hari umugabo wambaye imyambaro ya kimwe mu bigo bitanga serivisi zijyanye n'itumanaho ndetse no kohererezanya amafaranga, uyu akaba ari gufasha umukiriya waje amugana.

Abantu benshi bambaye imyambaro imwe ifite amabara y'ubururu, baje kumurika umusaruro ukomoka ku buhinzi, aba bari kumwe n'umugabo ufite indangururamajwi ari kubagezaho ubutumwa.

Ubwanakiro bukozwe mu mabati afite ibara ry'umutuku ndetse bukaba bufite n'ikigega cy'umukara gifata amazi mu gihe cy'imvura, muri ubu bwanikiro harimo ibigori byinshi, byakuwe mu murima, bikaba bitegereje guhurwa

Uruhererekane rw'amacupa menshi ariho ibyapa biyaranga, birimo iby'umweru ndetse n'iby'umuhondo. Ibi byifashishwa mu rwego rwo kugira ngo bayatandukanye. Aya macupa kandi bakaba bayashyiramo inzoga mbere y'uko zijyanwa ku isoko.

Amacupa afite amabara meza ndetse afite ibyapa bishushanyijeho umuntu, aya macupa akaba abamo amavuta meza yo kwisiga, akaba acuruzwa ahantu hatandukanye dusanga ibindi bicuruzwa.

Umuryango w'ubucuruzi ukorerwamo n'abantu, bakora ibijyanye no gukanika ibikoresho by'ikoranabuhanga, twavugamo nka radiyo, telefone ndetse n'amateleviziyo byapfuye, ibi bikaba ari akazi kabo ka buri munsi.

Ahantu hari kubakwa inyubako nini cyane isize amarangi y'umweru ariko itararangira. Iyi nyubako ikaba yarubatswe hifashishijwe ibintu birimo nk'amatafari ndetse n'isima. Imbere yayo kandi hari umuhanda ugezweho unyuramo ibinyabiziga.

Imbere y'inzu nziza ifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi hari abagore bambaye imyambaro y'abantu basengera mu idini rya isilamu, aba kandi imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye imyenda y'iryo dini ariko kugeza ijambo ry'imana uwamukurikiye yifashishije igikoresho kirangurura amajwi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ndetse igererekeyije, iyi nyubako isize amarangi y'umweru ndetse ifite n'ibikoresho bishyushya amazi biri hejuru yayo, imbere yayo kandi hari ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Inzu nziza ifite amabara y'umweru ndetse yubatswe mu buryo bugerekeranyije, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza, imbere y'iyo nzu kandi hari ibinyabiziga birimo imodoka zitwara abantu ndetse n'ibintu.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari ndetse isize amarangi arimo umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi. Imbere yayo hari indabo nziza zifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ubusitani n'ubwatsi butoshye. Iyi nzu ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye birimo na serivisi zijyanye n'amacumbi.

Mu cyumba kinini gisize amarangi y'umuhondo weruye harimo igitanda kiza gishashe neza ndetse gifite ibiryamirwa by'umweru, icyo gitanda kikaba kirarwaho n'abantu baje gusaba serivise z'amacumbi.

Abagabo bari ku ipikipiki, bari mu muhanda ugezweho ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru. Hakurya yabo kandi hari inzu zikorerwamo ubucuruzi ndetse n'igiti cyo ku muhanda kera imbuto. Hari kandi n'ikindi kinyabiziga k'imodoka n'umunyamaguru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ufite ibara ry'umukara ndetse urimo ikinyabiziga cy'ipikipiki gitwaye abantu babiri, abo bantu bakaba bambaye ingofero zibarinda mu gihe cy'impanuka.

Umugabo uri ku kinyabiziga cy'ipikipiki ndetse anambaye ingofero irinda iyo habaye impanuka, ari mu muhanda wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, hari kandi n'ibinyabiziga bindi urugero nk'imodoka.

Mu muhanda wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho harimo ikinyabiziga cy'ipikipiki gihetse abantu babiri bambaye ingofero zirinda mu gihe cy'impanuka hakurya y'umuhanda kandi hari urukuta rurerure rwubakishije amatafari.